Iduka ririmo ubucuruzi bw'imyenda, mubucuruzi bw'imyenda itandukanye n'amapantaro n'amashati n'ibindi.

Agafayinansho dokimenti ka Rwanda reveni otoriti. Ni agapapuro k’abashinzwe imisoro n'amahoro, kariho tini namba y’usora. Ndetse hakaba hariho n'amazina y'ikigo gisora, kugira ngo tubashe gusorera igihugu cyacu no hasi.

Iyi foto iragaragaza neza neza umuntu uri kubara amafaranga. Amafaranga akaba ari kuya bara akaba yambaye isaha, bitewe n'imisusire y'amaboko ye biragaragara ko ari umugabo uri kubara amafaranga rwose.

Iyi ni ifoto igaragaza idorari rya Amerika, inote imwe ihagaze agaciro k'ijana, k'inota y'idorali rya Amerika ikaba ifashwe mu biganza, akaba ari amafaranga menshi cyane yabasha gufasha umuntu.

Intebe ikoze mubaho, ni intebe nziza cyane yuburyo bushyashya buri kuza ikoze mu mva abantu bataratangira gukoresha cyane, bigaragara ko ahantiri yakozwe n'abahanga kandi ikaba iri ahantu ikeneye abakiriya.

Iyi foto irasobanura abaturage bagiye kuri kampani ya sonerwa ishinzwe ubwishingizi ku biro byayo aha ni ku biro by'ikigo gishinzwe ubwishingizi cya sonerwa hari abaturage bagiye bafata serivisi.

Ifoto igaragaza mu isoko abantu barimo bahaha, ariko nyirizina ikaba yibanze ku isoko ry'igice cy'imboga harintu hari inyanya, imbogarwatsi, imiteja, ndetse n'ibindi n'amatunguru, bigaragara ko ari ahantu hari abakiriya benshi babasha kuba bagura kuko hari ibintu byinshi bigaragara ko bikenera ababigura.

Irerekana umuntu uhagaze mu kazu gatanga serivisi za MTN, inyuma ye hakaba hari ibiciro byanditse ndetse hakaba ari ahantu hari amazu atuwemo hakaba ariho uyu muntu akorera.

Iyi foto igaragaza umugore ufite imisatsi, wambaye umupira wa MTN, bigaragara ko ari umu ajenti wa MTN, akaba afite momo pay bamwishyuriraho ya karindwi zeru zeru gatatu icyenda gatatu, hakaba hari abantu agiye ari guha serivisi, harimo umugabo wambaye amarinete, n'undi wambaye umupira utukura, hakaba hari n'imodoka bigaragara ko ari ahantu bakorera ubucuruzi, hajya kumera nk'ahari.

Iyi ni ifoto yo mu gihugu cy'u Rwanda, ikaba iherereye muri Kacyiru, i Kigal, ikaba igaragaza ko ufite amadolari igihumbi n'amagana atanu ku kwezi, wabasha ku ba hano hantu ntakibazo kandi ukabishobora .

Iyi ni inzu nziza bigaragara ko ari etaje, ikaba idizayininze mu buryo butandukanye, ariko nyine hakaba hagaragara ko igiciro cyayo ari miliyoni mirongo iridwi n'eshanu z'abanyarwanda, ikaba iherereye muri kigali.

Iyi foto izagaragaza inzu iri ku Gisozi ikodeshwa, ifite ibyumba bitanu na saromanje ndetse ikaba ifite igikoni, ibintu byose ikaba ifite byuzuye, ika ifite n'icyumba cy'umukozi hanze, ikaba iri kugurishwa , ikaba ari inzu nziza .

Mu isoko rigezweho hakunze kwitwa supermarket hakaba harimo ibyo kunywa n'ibyo kurya byose.